Inyandiko igaragaza ubwishingizi butangwa n'ikigo cya radiyanti, ubwishingizi butangwa na radiyanti harimo ubwishingizi bwishingira inkoko, umworozi yishyura mirongo itandatu ku'ijana leta ikamuha nkunganire ya mirongo ine ku ijana, ni ukuvuga ushaka ko inkoko ze zitazajya mu byago yagana radiyanti akazishinganisha.

Banki ya ekobanki, banki muri rusange zitanga serivisi zirimo kubika, kohereza amafaranga, kuguriza abayigana nukuvuga kubaha amafaranga bakajya kuyakoresha mu bucuruzi bakazayagarura bongeyeho n'inyungu, banki ziba zitandukanye mu mazina ariko icyo zihuriyeho cyose ni ugukora imirimo y'amafaranga irimo kubika, kuzigama no kuguriza.

Urupapuro rugaragaza amateka y'uburyo ibikorwa byo kwishyura ndetse no kwakira byagenze hakoreshejwe ikoranabuhanga, harimo umubare wihariye uranga icyo gikorwa, ndetse n'amafaranga yagiye akatwa cyangwa yoherezwa.

Urupapuro nkoranabuhanga rugaragaza amateka y' uburyo ki inguzanyo zagiye zitangwa, ueru rupapuro ruriho imibare isobanura amafaranga y'inguzanyo yatanzwe ndetse n'imibare igaragaza konti ayo mafaranga yagiyeho.

Inzu irimo isoko ricururizwamo ibijyanye n'imyambaro imanitse ku tubati twagenewe kumanikwamo imyenda, irimo iyiganjemo amashati y'amaboko magufi ndetse n'amashati y'amaboko maremare.

Mu nzu icururizwamo n'umugore uteze igitambaro mu mutwe cy'umweru, wambaye ikoti, ari kwandika fajyitire n'intoki, akoresheje ikaramu n'agapapuro kagenewe kwemeza ubwishyu, imbere ye hahagaze umukiriya.

Imyambaro irimo ibitenge imanitse mu kabati izinze neza, imyambaro y'ibitenge ni imyambaro yambarwa n'abagore, imyambaro y'ibitenge ishobora gukorwamo n'amashati yambarwa n'abagabo.

Agakapu gato gatwarwa mu ntoki kagenewe gutwarwa n'abagore gashyirwamo ibikoresho nk'amatelefoni, ibisakozo ndetse n'utundi dukoresho nkenerwa dukunda gukenerwa buri mwanya n'abagore, gateretse ku meza hejuru.

Ni inzu icururizwamo imyenda hahagazemo umugabo w'umuzungu n'undi mugabo w'umwirabura, imbere yabo hari mudasobwa, mudasobwa ikoreshwa mu kwandika inyandiko no kubika inyandiko.

Inzu icururizwamo imyenda imwe ipanze mu kabati ndetse n'indi imanitse mu buryo byorohera umugozi guhitamo uwashaka, irimo imyambaro myinshi ni iy'abagore ndetse n'iy'abagabo.

Umugore wambaye ibitenge, ufite ikaramu mu ntoki, ari kwandika ibintu, ari guseka ahagaze mu nzu icururizwamo imyenda, harimo ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'akuma gakoreshwa mu kubara amafaranga umuntu atibeshye.

Umukobwa wambaye ikanzu n'inkweto zifunze, usutse imisatsi ijya mu mugongo ndetse n'igitambaro ateze mu mutwe cy'umukara, ahagaze imbere y'akabati gapanzemo ibintu, iruhande rwe hari n'akandi kabati gapanzemo inkweto.

Inzu icururizwamo imyambaro ikaba imanitse mu tubati izinze neza, indi imanitse neza ku tuntu twabugenewe ikaba iri kwaka amatara y'umweru harimo n'utumeza tumanitseho imyenda.

Abagabao babairi hbahagaze mu mbuga inyuma iparitsemo imodoka, bafashe ku kimenyetso cy'urufunguzo, mu ntoki bose bari kwifotoza.

Abagore babiri b'abazungu bambaye imyambaro y'abamasera, bafashe ku kimenyetso cy'urufunguzo, iruhande rwabo hahagaze undi mugabo na we ugifasheho cyanditseho Akagera, inyuma yabo hari imodoka iparitse mu mbuga ishashemo amabuye.

Abagabo babiri bafite igishushanyo cy'urufunguzo rukoreshwa mu gukora ibinyabiziga kiriho ikirango cya hyundai inyuma yabo hari imodoka nayo y'uruganda rwa Hyundia iparitse.

Imodoka igendwamo mu buryo bwihariye, imodoka ifite umumaro wo kugeza umuntu kure gukora urugendo atakora n'amaguru ikamurinda izuba, imbeho n'imiyaga igihe ayicayemo.

Abagabo batatu bafashe ku kimenyetso cy'urufunguzo rwanditseho akagera, inyuma yabo haparitse imodoka isa n'umweru, iparitse mu ihema ryanditseho akagera.

Agacupa kabonerana karimo amazi yo kunywa, gapfundikije umufuniko w'ubururu, gateretse ku kirahure, iruhande rwako hari ibinyamakuru, imbere yaho hari imodoka itwara ibintu, ifite umwanya w'inyuma ufunguye hejuru.

Abagabo babiri bahagaze mu mbuga ishashemo amatafari, inyuma yabo hari ibikamyo, harimo igikamyo gisa n'ubururu. Bafashe ku gishushanyo gishushanya urufunguzo rw'imodoka rwanditseho Akagera.

Inzu irimo ibiro bikorerwamo n'umukozi wambaye umupira w'amaboko magufi, harimo n'icyuma gikonjesha mu nzu arimo arafasha umukiriya, atandukanyijwe nawe n'ikirahure kibonerana gifite umwanya wo kuvugiramo, kimanitseho kode ikoreshwa yishyura amafaranga.

Imodoka y'umuhondo ifunze neza ya intaseke igendamo abantu bacunga umutekano, ihagazwe imbere n'umugabo ufite imbunda wambaye n'ingofero y'ubwirinzi ndetse inyuma ye hagaze abandi bakorana n'iyo kompanyi ya intaseke.

Amafaranga yo mu bwoko bw'igiceri yemewe na banki nkuru y'u Rwanda, yakozwe mu mwaka w' ibihumbi bibiri n'icyenda; ashushanyijeho insina ifite igitoki gifite umunana muremure.

Inzu ifite ibiro, biriho imiryango igiye yanditseho nimero, ifite ahantu hakirirwa abakiliya hatandukanya umukozi uri mu biro ndetse n'umukiliya, hakoreshejwe ikirahure kibonerana, gifite umwanya aho bavuganira.

Amafaranga y'inoti afite agaciro k'ijana, ashushanyijeho umugore uhetse umwana, akaba yemewe na banki nasiyonari y'u Rwanda.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro k'igihumbi, ashushanyijeho inkende, akaba yemewe na Banki Nkuru y'u Rwanda.

Amafaranga yo mu bwoko bw'igiceri gishushanyijeho igitoki ndetse n'ibirere, icyo gitoki gifite umwanana, aya mafaranga akaba yemewe na banki nasiyonari y'u Rwanda.

Ikiganza gifashe ku mafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'ifunze neza, iruhande rwayo hari mudasobwa ndetse harambitse nandi mafaranga yo mu bwoko bw'amadorari.

Inzu icururizwamo ifite utubati dusa n'umweru ndetse n'utundi dusa n'ubururu dupanzemo amata ndetse n'amazi akabati k'umweru kapanzemo ibirahure ndetse n'ibikombe ndetse n'isahani.

Abagabo n'abagore bari mu nzu abagabo, babiri bafashe igicuba bari kubuganiza amata mu cyuma kiri mu ikusanyirizo cyagenewe gukonjesha amata, hasi hateretse ibindi bicuba byinshi.

Inzu irimo icyuma gikonjesha amata y'uruganda rw'Inyange, umuntu ucuruzamo ari kuvoma amata aturuka muricyo cyuma, hasi hari indobo kugira ngo atameneka hasi, iruhande rwe hari umukiriya ushaka kugura amata.

Akajerekani gateretse hasi ku butaka gapfundikiye neza, gapfundiki umuvuniko w'umweru n'akajerekani karasa n'umweru, akajerekani karimo amata.

Ibyo kurya by'amandazi, biri ku isahani iteretse ku meza ashasheho igitambaro. Amandazi ni ibyo kurya bikozwe mu ifarini, bitera imbaraga.

Icyuma gikoreshwa mu gukonjesha ibinywebwa gifitemo utubati duteretsemo ibikombe, ibirikira ndetse n'akajerekani karimo amata ari gukonjeshwa.

Umugore ufite imisatsi karemano, uri guseka amwenyura ufite amaherena ku gutwi, wambaye umupira w'amaboko maremare usa umuhondo, ufashe amafaranga mu ntoki ze arimo inoti ya bitanu y'u Rwanda.

Uburyo ikoranabuhanga bwagenewe kwishyura bwa peyipali, ubu ni uburyo nkoranabuhanga busaba ko uwishyura aba afite igikoresho nkoranabuhanga nka; telefoni ngendanwa, mudasobwa cyangwa se n'ibindi nkabyo ariko bikoresha murandasi.

Imibare igaragaza uburyo amafaranga akatwa n'umuntu uyohereza mu mahanga, hari igihe umuntu akenera koheza uri mu mahanga amafaranga akoresheje telefoni ngendanwa, ahangaha haragaragazwa uburyo ki abayohereza bakatwa.

Uburyo nkoranabuhanga bukoreshwa kohereza cyangwa se kwishyura amafaranga hifashishijwe za telefoni ngendanwa, ubu buryo bufasha uwishyura kudakora ku mafaranga igihe yishyura umucuruzi, ndetse n'umucuruzi ntiyakira amafaranga mu ntoki nawe ayabona mu buryo bw'ikoranabuhanga, bwa terefoni ngendanwa.

Uburyo nkoranabuhanga, bukoreshwa mu kohereza amafaranga y'Amadorari, ndetse n'Amanyarwanda. Aho ushyiramo amadorari bakakwereka agaciro kayo mu manyarwanda.

Abagabo babiri bahagaze hanze bari kureba muri telefoni bari kuzandikamo bari kuzikoresha, impande yabo naho hahagaze abandi bagabo babiri bambaye amakoti bari gukoresha terefone.

Uburyo nkoranabuhanga bukoreshwa n'abagana ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya MTN bwo gukanda akanyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, ukurikizaho urwego, ukabona ibintu uhitamo bigiye bitandukanye bigufasha kwishyura, kureba amafaranga ufite kuri terefone ndetse no kwishyura ibindi bitandukanye.

Urupapuro nkoranabuhanga rugaragarira muri mudasobwa icanye rwanditseho Rwanda reveni otoriti nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, imisoro itangwa n'abacuruzi cyangwa abaguzi igafasha igihugu mu kwiteza imbere.

Urupapuro nkoranabuhanga rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ruri kugaragarira muri mudasobwa icanye urupapuro rurerekana imisoro yatanzwe.

Urupapuro nkoranabuhanga rugaragarira muri mudasobwa, rutangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro cya Rwanda reveni, ruragaragaza imisoro, amafaranga ndetse n'amatariki. urupapuro rutangwa n'iki kigo kandi iki kigo ni cyo gishinzwe gukurikirana ibijyanye n'imisoro mu Rwanda.

Urupapuro nkoranabuhanga rw'umweru rugaragarira muri mudasobwa iri kwaka, rwanditseho ko ari urupapuro rutangwa na Rwanda reveni otoriti nk'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro.

Urupapuro nkoranabuhanga rugaragarira muri mudasobwa icanye rwa banki ya Kigali, rugaragaza uburyo banki ya Kigali yagiye yoherereza amafaranga kuri konti zitandukanye zanditse ku mazina y'abantu batandukanye ku matariki atandukanye.

Urupapuro nkoranabuhanga rwafunguriwe muri mudasobwa rugaragaza uburyo ki banki ya Kigali yagiye ikora ibikorwa bitandukanye by'icuruza kuri konti y'umuntu. Ni ukuvuga ibikorwa birimo kumukata amafaranga, ibikorwa birimo kwerekana ko konti ye yakiriye amafaranga.

Urupapuro koranabuhanga rugaragarijwe muri mudasobwa icanye rwanditseho ara ara eyi ni ukuvuga ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, uru rupapuro rutangwa n'icyo kigo rwerekana imisoro yishyuwe n'umucuruzi.

Urupapuro rufunguriye muri mudasobwa iri kwaka, rwanditseho ara ra eyi iki ni icyemezo cyemeza ko umuntu atabamo imisoro kandi uru rupapuro ruriho n'umukono wa noteri.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti afashwe n'ikiganza afite agaciro ka mirongo itanu. Amafaranga akora imirimo irimo guhaha, amafaranga akora imirimo irimo: kwishyura ishuri, kwishyura uburyo bw'ingendo, ndetse n'ubwishingizi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro ka magana atanu, ni amafaranga yemewe na banki ya Tanzaniya, aya mafaranga ashushanyijeho umugabo ufite ubwanwa bwo hejuru gusa wambaye n'ikoti.

Intoki zirikubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'amadorari, amafaranga akora byinshi birimo kwishyura ishuri, kwishyura ubwishingizi, kwishyura ingendo ndetse n'ibindi byinshi abikwa muri banki arakorerwa ni ukuvuga umuntu abona amafaranga iyo yakoze akazi gatandukanye.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afunze neza; ari mu bwoko butandukanye. Afite agaciro k'amafaranga icumi, ndetse ageretse ku yandi mafaranga na yo y'inoti.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti n'ibiceri; ateretse, kuvuga ngo amafaranga ashobora kuba atandukanye mubiyakoze haba ari inoti cyangwa ibiceri; gusa yose icyo ahuriyeho ni uko akoreshwa mu kwishyura, mu guhaha, mukwivuza; ndetse n'ibindi bintu bikenera amafaranga.

Ibiganza biri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti iruhande rwaho kuka meza hateretse andi mafaranga y'inoti ndetse iruhande rwabo hari n'andi mafaranga y'ibiceri, amafaranga aba atandukanye haba mu gaciro ndetse n'ibiyakoze gusa yose icya ahuriyeho nuko akoreshwa mu kwishyura ibintu.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'ijana ndetse n'andi ayari munsi, amafaranga afite umumaro nko gukoreshwa mu kwishyura ubwishingizi, kwishyura ishuri, mu guhaha ibyo kurya ndetse n'ibindi byinshi.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti, amafaranga muri rusange akora imirimo itandukanye: irimo ayo guhahishwa, kwishyura ishuri, kwishyura uburyo bw'ingendo, ndetse n'ubwishingizi mu kwivuza.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ifite agaciro k'ijana ashushanyijeho, umuntu afitwe mu biganza n'umugabo uri kuyatwereka.

Inzu ishashemo amakaro ikaba irimo ameza ateretseho ibirahure birimo amazi yo kunywa ikaba kandi harimo n'intebe zikikije ayo meza zikoze mu biti.

Inzu ifite umwanya bicaramo baganira uteyemo intebe zibaje mu biti zifite imisego n'igice cyegamirwa, ndetse hateyemo n'ameza.

Inzu ifite aho bakarabira intoki hariho ahaturuka amazi ifite agakoresho gakozwe mu cyuma gateye mu gikuta, ku ruhande hakaba hari na buji iri kwaka.

Inzu ishashemo amakaro y'umweru, irimo ameza asa hejuru umweru akoze mu giti. Izenguritswe n'udutebe dufite aho kwegamirwa, natwo dukoze mu giti.

Mu nzu iri kwakamo amatara y'umweru ifite ibikuta bisize amarangi y'umweru ikaba irimo n'utubati dukoze mu biti dufunze neza harimo n'intebe zegamirwa zikozwe mu misego.

Intebe zo kwicaraho zifite imisego zikoze mu biti bisize irange ry'umukara mu nzu hashashemo amakaro y'umweru ndetse hari n'amadirishya ari kwinjiza urumuri.

Mu nzu mo imbere harimo intebe zegamirwa zifite imisego zizengurutse akameza gakoze mu biti gateretseho igitabo hejuru. Mu nzu hashashemo amakaro asa n'umweru.

Mu cyumba cy'inama hari intebe zo kwicaramo zisa n'umukara zegamirwa zifite ameza imbere yazo asa n'umukara hejuru hateretseho amazi yo kunywa apfundikiye iruhande rwayo hari udukayi duto two kwandikaho.

Inzu ifite pisine irimo amazi asa n'ubururu, aha niho abantu bajya kogera bashaka kwidagadura cyangwa bashaka gukora imyitozo ngororamubiri yo koga.

Inyubako ya Kigali convention center ifite igisenge gisa n'ubururu, ifite kandi uruzitiro ruri kwakaho amatara. Kigali convention centre n’inyubako iherereye Kimihurura.

Inzu y'igorofa ndende cyane, hejuru handitseho ibintu bigaragaza izina ry'iryo gorof, inzu y'igorofa iba yifitemo ibyuma bifasha abayijyamo guhita bagera mu magorofa yo hejuru kubera ko binaniza abantu guterera ku madarage.

Inzu y'amagorofa igizwe n'ibirahuri, impande y'aho hari ikindi gice cy'ayo cyubakishije amatafari ahiye. Imbere yayo ifite imbuga irimo piscine irimo amazi.

Mu nzu icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa harimo umukobwa uri gutambuka ufite igitambaro kirekire gifashe mu gatuza kikagera ku maguru gisa n'umweru n'akagofero k'umweru mu mutwe, hatondetsemo intebe n'ameza bikoze mu biti bitondetse mu buryo bw'amasibo.

Inzu ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ifite igisenge cy'umweru kiriho n'akabara k'umukara, ifite amadirishya asa n'umukara ariko atabonerana ikaba imanitseho icyapa kigaragaza ko hakorerwa na mitosi.

Icyumba giteretsemo ameza ariho mudasobwa hejuru, mudasobwa ikoreshwa kwandika inyandiko, mudasobwa ikoreshwa mu gusoma kandi izindi nyandiko, uyifite ashobora kujya kuri murandasi agasoma n'ibinyamakuru byinshi.

Abagabo babiri birabura bicaye mu biro biri mu nzu, umwe yambaye ishati y'amaboko magufi isa n'umweru, wicaye imbere ya mudasobwa ifunguye, undi wambaye ishati ya karokaro wicaye mu ntebe isa n'umukara, bose bari kureba imbere.

Mu nzu itatsemo ibipurizo bisa n'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, harimo ibirango by'ikigo cya saniramu gitanga ubwishingizi bw'ibintu bitandukanye.

Inzu ifite ibiro bikorerwamo n'ikigo cya zibu, iyi nzu irimo amarangi y'umweru asize ku nkuta zaho, hari ibiro bitandukanywa ni ibirahure bibonerana biriho ibirango by'ikigo cya mowa ndetse na zipu.

Mu nzu hahagazwemo n'umugabo n'umugore w'mwisiramu imbere yabo hari umugabo wicaye mu biro, hari mudasobwa, hateretse n'impapuro nyinshi ku meza.

Isoko ricuruzwamo ibijyanye n'imyambaro yiganjemo imyambaro y'ibitenge. Ibitenge ni imyambaro yambarwa n'abagore, ibitenge bishobora kandi kwambarwa n'abagabo igihe byadozwemo amashati.

Mu isoko ricuruza imyenda, harimo abantu benshi barimo abagore bari guhaha imyenda ndetse n'abandi bari kuyicuruza, hari imitaka isa n'umuhondo.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'imitako ndetse n'ibindi bikorerwa m'u Rwanda birimo inkoni zifashishwa n'abageze mu zabukuru kugira ngo batambuke, harimo inkangara, harimo udutebe tw'udusongabugari, harimo imitako nk'udukoko ndetse n'udukapu, cyose gikorerwa m'u Rwanda.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'imbuto ryicawemo n'umugore, imbere ye hari utubase turimo amacunga ahishije, umugore afashe voka mu ntoki ze isa n'icyatsi kibisi, ari kuyitondeka ku zindi ziri mu gisorori, impande ye hari izindi mbuto ndetse hari n'inyanya ziri imibase.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye birimo imboga nk'ibitunguru by'amababi ndetse n'ibitunguru by'ibijumba, hahagazemo abantu barimo abagore babiri bahagararanye bose bateze ibitambaro mu mutwe.

Abantu bari hanze iruhande rw'inyubako y'isoko ifite imbuga iparitsemo imodoka ebyiri z'umweru, abantu barimo abagore, abana ndetse n'abagabo.

Mu isoko hari abantu benshi cyane, hari ibicuruzwa birimo ibitoki biteretse hanze, ku gice cy'isoko kidatwikiriye, hari abantu babihagaze imbere, bari guciririkanya.

Inzu icururizwamo imyenda harimo abacuruzi n'abaguzi, imyenda ifite akamaro ko kurinda imbeho uyambaye igahisha ubwambure, kandi izana amafaranga k'uyicuruza.

Inkoko iriho ibishyimbo bisa n'umutuku, imbere yayo hari ibase isa n'icyatsi irimo ibigori, imbere yabo hari ahandi hantu ku gice cy'isoko hacururizwa ibindi bintu.

Umuhanda nyabagendwa usa n'umukara wa kaburimbo uragendwamo n'umuyobozi w'ipikipiki isa n'ubururu ikoresha amashanyarazi, wambaye ingofero imurinda we n'uwo ahetse zisa n'ubururu zifite ikirahure imbere, iruhande rwabo hari inzu z'ubucuruzi.

Isoko ricururizwamo imyenda yo kwifubika, hahagazemo umucuruzi ndetse n'abandi bantu bari kugura. Imyambaro yo kwifubika, yambarwa igihe hakonje, nk'igihe harimo umuyaga mwinshi cyangwa haguye imvura.

Imbere y'inzu y'amagorofa, y'isoko ry'inkundamahoro haparitse imodoka mu mbuga ndetse imbere yaho hari n'abantu batandukanye bari kwinjira cyangwa bava mu isoko.

Imodoka yicawemo n'umugore ufashe kuri deregisiyo, imbere ye hari akana kari kwiruka begereye inyubako y'isoko.

Abagabo bari mu nzu harimo abambaye imyenda y'umuhondo ifite ibirango bya emutiyeni, bahagaze imbere y'ameza akozwe n'ibirahuri ari kwakwamo n'amatara y'umweru.

Akazu kubabakishije ibyuma gafite amadirishya abiri afunguye gasa n'umuhondo kariho ibirango bya emutiyeni hicayemo umuntu iruhande rwe hanze hahagaze umugabo ari gufasha.

Akazu gakoze mu byuma kariho ibirango bya eyateri gafite amadirishya abiri afunguye, kicawemo n'umugabo uri gukoresha telefoni, iruhande rwe hari akazu gafite ibirango bya emutiyeni nako gasa n'umuhondo kicawemo n'umuntu uri gutanga serivisi.

Abantu bari mu isoko rya sawa siti ricururizwamo ibintu bitandukanye, birimo imigati imitobe n'ibindi mbere y'aho bakirira cyangwa bishyurira, hari umugabo uri kwerekana ko yishyuye akoresheje telefoni.

Umutaka wa emutiyeni usa n'umuhondo imbere yawo hahagaze umugabo wambaye ijire y'umuhondo ukorera emutiyeni ari gutanga serivise k'umugabo wambaye amadorobindi wambaye n'umupira w'umutuku ufite ikora w'amaboko magufi.

Akazu kariho ibirango bya eyateri gasa n'umutuku gahagazeho abantu batatu bahuje ibiganza bari kumwenyura. Eyateri ni kompanyi itanga ibijyanye na serivisi zirimo gukoresha telefoni, kohererezanya amafaranga ndetse no gukoresha murandasi.

Umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, wambaye n'akantu kamuranga mugatuza. Imbere ye hahagaze undi m'umugore nawe w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara, Umugabo yahaye akebo karimo ibintu umugore arigukuramo. Umugabo yambaye umwenda uriho ibirango bya MTN.

Abantu benshi barimo abagabo b'abirabura ndetse n'umwe w'umuzungu bahagaze hanze imbere y'akazu gafite ibirango bya emutiyeni bari guhabwa serivisi.

Abakozi babiri b'ikigo cya emutiyene bambaye imipira y'umuhondo iciye amaboko yanditseho emutiyeyeni mu gatuza bari gukoresha mudasobwa, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati barigufasha.

Abagabo n'abagore bahagaze impande y'akazu k'ibyuma, kariho ibirango bya emutiyene gasa n'umuhondo kandikishijemo amagambo y'umukara utsiritse hicayemo umugore ari kufasha.

Umugabo wicaye uri gukoresha terefone ari guhamagara yambaye ipantaro ndetse ahetse n'agakapu gato.

Inzu ifite ibyapa n'imitako bisa n'ibara ry'umuhondo birimo amagambo agaragaza ko ari inzu ikorerwamo n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho cya emutiyeni gifite imiryango y'imbere irimo abatanga serivisi z'icyo kigo.

Akapa gasa n'umuhondo kanditseho imibare ikoreshwa bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa, mu buryo bwa emutiyene hariho amazina y'uwishyurwa na nimero iranga umucuruzi runaka.

Akazu k'ibyuma gasa n'umuhondo, gafite ibirango bya mtn. Gahagazwemo n'umuntu ufasha abantu bagana icyo kigo cya mtn.

Abagabo bahagaze imbere y'akazu kubakishijwe ibyuma, kicayemo umukozi utanga serivisi z'ibigo by'itumanaho mu Rwanda bya emutiyene, tigo ndetse na eyateri, ibigo bitanga serivisi zo kubitsa kubikuza amafaranga guhamagara kugura amayinite ndetse n'ibindi byinshi.

Abayobozi b'amapikipiki bahagaze, bahetse udusanduku duhekwamo ibicuruzwa, bashyira ababiguze mu ngo zabo, imbere yabo hari igikuta cy'uruzitiro, gisize amarangi y'umuhondo.

Umugabo wambaye ingofero irinda abicaye ku ipikipiki isa n'icyatsi, ahagaze iruhande rw'ipikipiki ifite akantu gahekwamo imizigo inyuma, ari kumwe n'umukobwa wambaye amadarubindi ari kumuhereza umuzigo.

Abantu batwara amapikipiki by'umwuga bahetse abagore ku mapikipiki yabo, bose bahagaze iruhande bahindukiye bari kuvugisha abo bahetse ku mapikipiki.

Iruhande rw'inzira nyabagendwa, hari icyapa cyerekana ko ukomeje iyo nzira agera mu Bugarama, hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ingofero irinda uwicaye ku ipikipiki isa n'icyatsi, ashyize akaboko ku gasanduku gatwarwamo ibintu bitwawe na vuba vuba gasa n'icyatsi.

Umugabo wambaye ijire isa n'icunga rihishije, iciyemo uturongo tw'utugarurarumuri tuzengurutse, wambaye ingofero irinda utwara ipikipiki ifite ibara ry'icyatsi, arimo arakura ibicuruzwa cyangwa ibyo yari atwaye mu gasanduku gasa n'umutuku, kaziziritse inyuma ku ipikipiki.

Imodoka zifite igice kicarwamo n'umushoferi ndetse n'uwo bagendana cy'imbere gisa n'umweru ifite igice cy'inyuma kimeze nk'igisanduku gifunze neza gihekwamo ibicuruzwa gifite amabara y'umuhondo n'umweru cyanditseho ijambo twiga izo modoka ziparitse mu mwanya usizemo isima y'igiheri hasi.

Inzu igurishwa ifite inkuta zisize amarangi y'umweru ndetse n'umuryango winjira mu nzu munini cyane ndetse n'amadirishya atabonerana ufite hasi hashashemo amakaro y'umweru ndetse n'andi y'ibara ry'umukara.

Inzu ishashemo amakaro hasi asa n'umweru, aciyemo uturongo dusa n'ivu ndetse n'andi asa n'umukara, ifite igikuta gisize amarangi y'umweru, ifite amatara yaka amabara mu gikuta, iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, arakubwira ko igurwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine gusa.

Inzu ifite uruganiriro rugizwe n'intebe zegamirwa zikozwe n'imisego hashashemo itapi ishushanyijemo ibirango by'imigongo hejuru yayo hariho akameza gasa n'umukara.

Inzu ifite inkuta z'umweru, ifite n'amadarage ajya hejuru ku magorofa ari hejuru, ifite ibirahure byinjiza urumuri, ishashemo amakaro hasi, ndetse iyi nzu ikaba ifite n'umuryango munini ufite ikibambasi kiriho igiti. Iyi nzu irakodeshwa amadolari ibihumbi bibiri.

Inzu ifite ubwogero burimo amazi yo hejuru ndetse n'ubwiherero bugezweho bwa kizungu, ifite inkuta zirimo amakaro ndetse n'idirishya ryinjiza urumuri mu nzu, iyi nzu ikaba iri gukodeshwa.

Umugore w'umwirabura wambaye ikanzu, agahagararanye n'umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru, mu nzu iri kwakamo amatara y'umweru.

Umugabo w'umuzungu uhagararanye n'undi mugabo w'umwirabura wambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaba yambaye ishati y'umukara, bose bari ku ibaraza ry'inzu y'igorofa bari kureba ibidukikije.

Inzu ifite imbuga ishashemo amatafari ndetse ifite n'urubaraza rushasheho amakaro y'umweru, imbere yarwo hari amavaze arimo indabyo ifite kandi inkuta zisize amarangi y'umweru, ni inzu ikodeshwa iherereye ku Gisozi ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri.

Inzu ifite imbuga ishashemo amatafari ahiye, ifite urubaraza rushasheho amakaro ateretseho ama vaze arimo indabyo, ifite ibikuta bisize amarangi y'umweru hanze hari itara umuryango w'imbere ku nzu uriho ibirahure uranafunguye.

Umugabo uri guturuka mu mbuga imbere ye hari amarembo afunguye, afite inzugi zikoze mu byuma, inyuma ye hari inzu zubakishijwe igisenge cy'amabati atukura ndetse zishashemo n'amakaro mu rubaraza rwazo.

Inzu y'amagorofa yubakishije inkuta zisize irangi ry'umweru, n'urugi rusa n'umukara ku rubaraza hateriretseho ivase irimo uturabo, ifite imbuga ishashemo amatafari, ni inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite igikoni mu nzu, ifite n'utubati dushyirwamo ibyombo, amasahani n'ibikombe, ku tubati tumanitse ku gikuta cy'umweru kiri mu nzu, ikaba ifite aho kogereza, iyi nzu ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inyubako y'amagorofa igizwe n'ibirahure bisa n'umukara bitabonerana, ifite igisenge gikozwe n'amabati amena amazi, isize amarangi y'umuhondo ku nkuta, ifite imbuga ishashemo amatafari. Iyi nzu iherereye Kibagabaga, ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana arindwi y'amadorari ku kwezi.

Mu nzu icururizwamo hahagazwemo n'umusore uri kumwe n'umubyeyi wambaye imyambaro ya kiyisilamu iruhande rwabo hari intebe ndetse n'ameza ndetse hahagazemo n'abandi bantu benshi.

Abagabo n'abagore bari mw' isoko, harimo abari guhaha ibijyanye n'imyambaro. Hakaba hari n'umugore uri aho bishyurira, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze.

Umugabo usutamye imbere y'akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye byinshi bipanze mu mwanya w'akabati birimo imigati, imitobe ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko rinini rihahirwamo ibintu birimo imigati, imitobe, inzoga zisembuye ndetse n'ibindi, zirimo guhaherwamo n'abantu benshi barimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, bamwe bahagaze imbere y'aho bishyurira ku muntu wishyuza wambaye umupira usa n'icunga rihishije afite mudasobwa.

Umugore usutse imisatsi wambaye amaherena ndetse n'ipantaro ahagaze imbere y'icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu kubara ndetse no kwishyuza amafaranga yagiteretseho inanasi.

Ibyo kurya birimo imigati ikoze mu ifarini ndetse n'ingano, biteretse mu tubati turi mu nzu bicururizwamo, imigati ni byo kurya bikunze gufatwa ku ifunguro rya mu mu gitondo, imigati itanga imbaraga kuyiriye ifatishwa icyayi, igikoma cyangwa se amata.

Abagabo bahagaze harimo umwe wambaye agapira k'amaboko magufi kanditsemo tronike mu mugongo gafite n'amabara y'umweru, hagati hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, ruguru ye hahagaze undi muntu w'umukobwa, bari kureba muri terefone y'uwo mugabo, uwo mugabo ari kubereka ibintu.

Isoko ricuruzwamo ibijyanye n'imbuto, hahagazemo umugore. Mu mbuto ziri mu isoko harimo imineke, harimo amacunga, harimo amavoka, harimo kandi n'ibinyomoro.

Umuntu ufite ikaramu mu ntoki ze uri kwandika ku ikarita ikoreshwa mu bwisungane no kwivuza ya mituwele do sante, iyi karita ni ikarita iba iri mu ibara ry'umuhondo iba iriho amazina, umwirondoro ndetse n'ifoto ya nyirayo.

Umugabo uhagaze imbere y'imbaga y'abantu, wambaye ikoti na karuvati' mo imbere harimo ishati y'umweru, ari kuvugira mu ndangururamajwi ari kubwira abantu ibintu bigiye bitandukanye, inyuma ye hamanitse ibyapa byanditseho arasesibi ndetse na irikadi.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'ihema risa n'umweru, ritatseho ibitambaro by'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Abagabo bahagaze umwe afashe kuri mituweli ari guha undi, bari kwifotoza.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ibiriho umwirondoro w'ukoresha iyo karita hariho: amazina, igihe yavukiye ndetse n'ifoto ya nyirayo. Ikarita ugiye kwivuza kwa muganga agomba kuyijyana kugira ngo bamwakire.

Abagore bicaye ku ntebe y'urubaho bose bafite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'udukayi twandikwamo indwara barwaye ndetse n'imiti bajya gufata kwa muganga.

Abagabo n'abagore bahagaze bari kwifotoza, inyuma yabo hari ibirango bya ara esi esi bi nk'ikigo gishinzwe gutanga ibijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza.

Imodoka y'umweru ikorwa n'uruganda rwa minsubishe ifite igice cy'inyuma gifunze neza nk'isanduku iki gice gitwarwamo imizigo imodoka iri kugendera ku muhanda w'umukara.

Inzu icururizwamo imitobe ndetse n'ibindi byinshi, ifite utubati dupanzemo ibicuruzwa, birimo; imitobe, amata yo kunywa, ibikoresho bikoreshwa mu isuku by'amasabune, n'ibindi byinshi.

Umuntu ari gusunika akagorofani gatwarwamo ibicuruzwa bicururizwa mu isoko rya kijyambere akagorofani karimo imboga ndetse n'ipaki y'imigati.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa, ifite utubati dusa n'umweru, ibicuruzwa bipanze neza mu tubati, hariho udupapuro twometse ku kabati imbere y'ibicuruzwa, turiho ibiciro by'ibyo bicuruzwa. Mo imbere amatara y'umweru arimo araka.

Isoko rinini rifite utubati dusa n'umweru, dupanzemo ibicuruzwa biromo imitobe ndetse n'imigati. Iri soko mu imbere hari kwaka itara ry'umweru.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo imigati ndetse n'ibishyirwa mu migati, harimo imitobe, byose bipakiye cyangwa bigerekeranyije mu kabati kari mu iyo nzu icururizwamo.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa byinshi harimo ibipanze mu kabati bikaba bifite n'udupapuro twanditseho ibiciro, ibyo bicuruzwa harimo injugu, harimo amazi ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu ifite isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, biba bipanze mu tubati neza, imbere yabyo hari udupapuro tugaragaza ibiciro by'ibyo bicuruzwa, hahagazwemo n'umugabo wambaye ikoti ari kureba muri telefoni.

Isoko ricuruza ibijyanye n'imitobe ifite akabati kagiye gatondeganyijemo amacupa menshi arimo imitobe, isa n'icunga rihishije ndetse n'imitobe iri mu yandi mabara atandukanye.

Inzu irimo isoko rinini, ricururizwamo ibintu byinshi, bipanze mu tubati, biba bifite udupapuro twanditsemo ibisobanuro byabyo ndetse n'amafaranga ibyo bicuruzwa bigura, haratambukwamo n'umuntu wambaye umupira w'umukara, uri gusunika akagorofani gato karimo ibicuruzwa.

Mu iguriro ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye bipanze mu tubati dufite amabara y'umutuku. Ibyo bicuruzwa bikaba bifite n'udupapuro duto twanditseho ibiciro byabyo twomekwa. Imbere y'ibicuruzwa hahagazemo abaguzi ndetse hari n'umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi.

Inzu icururizwamo hateyemo utubati dupanzemo amakarito; nk'amakarito arimo amazi y'inyange, amakarito arimo amata; ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi birimo n'inzoga zisembuye.

Umugabo wambaye ingofero uri mu iguriro ricuruza ibijyanye n'imitobe yo kunywa ndetse n'ibindi, hari imitobe hakaba n'amavuta yo guteka, amavuta yo guteka ari mu icupa ribonerana ripfundikije agafuniko k'umuhondo ndetse hari n'imitobe iri mu tujerekani isa n'icunga rihishije ifite imifuniko y'umutuku.

Umugore ukora umurimo wo gucuruza wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ikora ari gucuruza imboga, hari umuntu iruhande rwe ari gupakirira imboga.